Kizimyamwoto ni ibikoresho bifashwa kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, gusa ni byiza ko ibi bikoresho biba biri ahantu hose hahurira n'abantu benshi, kugira ngo hageragezwe kwirindwa impanuka y'umuriro.

Inzego ni nziza kuko zifasha abantu kuva hasi bazamuka bakagera hejuru ndetse n'abari hejuru bakaba bava hejuru bakagera hasi badahuye n'ingorane zigiye zirimo nko kuba wahanuka, Kuba wagira ubwoba ndetse no kuba wakwangirika bimwe mu bice by'umubiri.

Ibimodoka binini bikora umurimo w'ubwikorezi, byinjiza amafaranga menshi mu gihugu ndetse bikanatuma hakorwa imihanda ikomeye, ifasha ibindi bimodoka nyine kuba byakora ingendo zigiye zitandukanye.

Ibinyabiziga byitwa moto ni bimwe mu binyabiziga byiza, bikunzwe, ndetse byihutisha ingendo hagati y'abantu, gusa nanone abantu ni byiza ko bashishikarizwa kumenya ikinyabiziga n'umuvuduko kigomba kugenderaho, bityo kuko bifasha abantu kwirinda impanuka za hato na hato.